Amandazi ni ikiribwa gikundwa n'abantu batandukanye higanjemo abana, aho usanga umwana avuga ngo njye nkunda irindazi, amandazi rero ni ikiribwa buri muntu wese akunda kandi kigira akamaro, iyo umuntu agifashe mu gitondo akagifatisha n'icyayi.

Ubu ni uburyo bukoreshwa bwo kwishyura amafaranga mu buryo butandukanye, aho abaturage basobanura yuko ubu buryo butandukanye buri wese yisangamo. Aho buri wese akoresha uburyo yumva ashaka kandi bumunogeye bunamufasha kwishyura neza.

Abagana hoteli basobanura ko iyo bagiye muri hoteli bakabona iteguye neza ari byiza kuko, bibafasha kwaka ibyo bakeneye bakabibona ndetse bakabona ko binafite isuku igihe aho bagiye kubirira babona hafite isuku nta kibazo na kimwe bashobora kugira, cy'uko ibyo babahaye nabyo byaba byanduye abakozi bakora muri hoteli bakomeza basobanura ko ari byiza kugirira isuku ababagana.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.